Abapapa beza cyane ubona ko babiri bafite idini bahuriyeho, undi nawe ari kuri mudasobwa abasobanurira, ubona ko ari ibintu byabashimishije ndetse binabashishikaje kumva, wareba hirya inyuma yabo hari ahantu hari amarido bakingiriza ibintu runaka n'abandi bambaye amakote bari kwakira abantu runaka.

Umusore ubonako ari kwitegereza hakurya hari igare rihari ndetse n'ibiti byinshi urutoki, akazu kabamo abantu banakora ahantu nyine kure y'umujyi mu cyaro, aha rero niho leta ikwiye kwitaho ikareba ikabagereza umuriro w'amashanyarazi niba nta wuhari cyangwa amazi.

Ibiti byiza ubona ko bikura akayaga, ikirere kiri hejuru gikeye, hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'amagambo y'umukara, hasi hari akantu kerekana ko ahantu ugeze niba utwaye ikinyabiziga hari kamera ishobora kugufotora igihe ukoze amakosa.

Ikirango cyerekana ko ahantu hari gukorwa umuhanda ku bantu batwara ibinyabiziga runaka, kiri mu ibara ry'umutuku, ishusho y'umweru ndetse n'umukara. Ibi rero bireba abantu bose navuze bakunda kujya mu muhanda, bajye babyubahiriza.